Aha naho dufite ishusho igaragara, nk'agapusi, ariko ntabwo ari ipusi ya nyayo, cyangwa se injangwe nkuko tuyizi, oya. ni agapupe ahubwo gakoze nkayo.

Aha naho turahabona icyapa icyapa kiriho inkoko ndetse n'akandi gasimba tutazi hagati yaho harimo amagi, bigaragaza ko ari imfashanyigisho z'abana batoya bo mu mashuri y'inshuke.

Aha naho ndahabona icyapa, icyapa kigaragaza harimo inanasi, umuneke, imodoka, amarongi, ubutunguru ndetse n'ibikombe, ikigaragara cyo ni icyapa gituma gifasha abana kwiga ndetse bakanamenya.

Aha na ho turabona ari ku ishuri gusa ni ku meza ateguyeho ibintu amasomo abana bagiye kwigaho, harimo amabara atandukanye, birashoboka ko bagiye kubigisha ibijyanye n'amabara.

Aha naho hari abana batatu, abana b'abanyeshuri bicaye ku ma esikariye y'ishuri ryabo. Bifotoje cyane bari guseka, kandi urabona ko bishimye cyane barafatanye.

Aha naho uko bigaragara, biragaragarira buri wese ko ari ku kigo cy'amashuri ndetse hari abantu bahagaze muri laboratwari, bigaragara ko ari laboratwari abanyeshuri bakoresha iyo bari kwiga.

Uyu muryango nawo bigaragara ko ari inzu rwose y'amashuri yisumbuye ya Nyagatare kuko biragaragarira ku cyapa bashyize kuri urwo rugi, bigaragara ko ari aho bigira ikoranabuhanga, aho twita muri ICT Lab. Ubwo bigaragara ko ari ho bigira ibijyanye na Komputa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bijyanye na interinete.